Amazu akorerwamo ubucuruzi usanga arimo ibintu bitandukanye ibirungo byo kurya, ugasanga harimo amandazi, imigati, ubuni burimo amavuta ndetse inyanya, udukayi ndetse n'amasabune akoreshwa mu gukora amasuku.

Inzu zicuruza ibiribwa ndetse n'ibindi bitandukanye nk'imigati, ibikoresho byo mu nzu, amasafuriya, imyenda n'ibindi bitandukanye.

Inzu zicuruza zicuruza zicuruza byinshi bitandukanye, ukihagera uhasanga nk'imashini zidoda, ukahasanga imyenda imanitse zadoze, ugasangamo ibikapu cyangwa se amabaga, ugasangamo abantu barimo baragura, ugasangamo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye.

Hotel ni ahantu usanga bacuruza ibyo kurya ndetse ugasanga bacuruza n'aho barara, icyo gihe iyo ushaka nko kwisayidira ufite hari nk'ikibazo ufite cyangwa se hari nk'umukunzi wawe mwasohokanamo, mukaganira ndetse mukagira n'ibyo mukemura ku rundi ruhande rw'umubiri.

Inzu zicuruza aho kurara usanga haba hameze neza harimo uburiri bushashe neza, hakaba harimo ameza ateguye neza, harimo imisego, ibitanda biteye neza mbese nyine kubiryamaho uraryama ukumvamva nta mavunane, akabati byiza cyane.

Inzu zicuruza aho kuba ndetse n'aho gucumbika amacumbi y'umuntu bwamwiriyeho araza agafata inzu agacumbikamo umunsi umwe cyangwa se ibiri ndetse nijoro cyangwa se amanywa igihe yarushye akeneye aho kuruhukira.

Isoko ndetse n'abacuruzi bacuruza usanga bafite indagara, iminzani, imyunyu, imineke ndetse n'imihini yo bakwikiramo amasuka, imyunyu y'igikukuru ndetse n'udusahani bifashisha biri ku meza.

Isoko ndetse n'uruvunge rw'abantu, ni ihuriro ry'abantu mu muhanda usanga bagenda, harimo moto, ibinyabiziga, harimo ibiki, hakaba ibiba bihetse ibicuruzwa ndetse hakabaho n'abitwaye n'amaguru yabo, abo ngabo baba bagiye mu isoko aho bacururiza imyenda, ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Isoko ni ahantu usanga ibicuruzwa byinshi bitandukanye ndetse ugasangamo n'abantu uruhuri bacuruza ibyo bicuruzwa ikindi kandi usanga abantu bahahira mu isoko abashaka ibyo kurya, abashaka imyambaro, abashaka ndetse naho bazajya bakura batwara ibikoresho byabo.

Abacuruzi mu isoko usanga baba bafite udutoryi, utunyanya, n'udutunguru ndetse mu ntoryi nyinshi usanga ziba zaragize zaratukuye, kandi haba harimo n'imiteja ndetse n'amaguru yabo.

Iyo umuntu atwaye ikinyabiziga nka moto ndetse gihetse n'imizigo nk'umufuka cg se ibindi bintu. Ayo ageze aho abanyamaguru bambukira, ndavuga ubwo mu muhanda urimo abanyamaguru cyangwa se aho, urimo ibimenyetso bigaragaza aho abanyamaguru bambukira, agomba kwitonda akagenda gake kugira ngo atabagonga.

Ubwikorezi bw'ibinyabiziga usanga harimo moto zigenda mu mihanda ndetse zifite n'abazitwaye aribo bitwa abamotari ugasanga bafite ndetse n'amatara y'umuhanda.

Abatwara ibinyabiziga, abatwara ibinyabiziga baba bameze neza bambaye ingofero zabugenewe zibarinda gukomereka igihe bahuye n'impanuka ugasanga batwara mu binyabiziga batwara harimo moto zimwe z'umuriro ndetse n'izindi moto zikoresha esanse.